Igishanga kirimo ibihingwa bisa neza bitewe mu buryo bugezweho, biteye ku murongo biri ahantu heza ahantu ubona ko hitaweho cyane.

Ikigori, igihingwa gihingwa nabantu benshi, igihingwa gisa neza bagikuyeho igishishwa, urabona ari igihingwa cyeze gifite intete ibyibushye ikigori rwose.

Ubworozi bw'ingurube za kizungu, ingurube zigezweho ahantu heza hari isuku hashashe ishwagara, aho kurira heza, ingurube isa neza yogeje ifite isuku ubworozi bugezweho.

Muri parike, ahari inyamaswa zo mu ishyamba, imparage, impara, ihene z'ishyamba, ahantu hari ubwatsi bwiza, ariko hirya hari ubwatsi bwumagaye, ahantu ku musozi.